Ahantu hari inyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga, mu buryo bw'amayobera muri rusange, ikikijwe n'izindi nyubako ngenzi zayo, zubatswe muri ubwo buryo, hari ubusitani buteyemo ibyatsi bikiri bito.

Umubyeyi witandiye bigaragara ko ari umwisilamu, yajyanye umwana we kumupimisha kwa muganga, none muganga yamushyizeho icyuma kabuhariwe ku kizigira cy'ukuboko kugira ngo arebe uko imikurire ye ihagaze.

Abana bagera kuri bane bahuriye ku ivomero rusange, hari umwe uri gupompa amazi ariko ntabwo ari kujya mu kivido neza, bigaragara ko atagiteretse neza, abari hirya bari kumurebera nta gitekerezo bari kumuha cyangwa ngo babe bamufasha.

abantu benshi cyane harimo abasutamye ndetse n'abahagaze, bari kwifotoza uko bigaragara n'abaganga bari bari mu nama yiga ku myanzuro bafata kugira ngo bateze imbere ubuzima bw'abaturage.

Umugore uteruye umwana we, yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'amaherena y'uruziga ku matwi, yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'umukara n'umuhondo, iruhande rwe hari undi mumama na we ukikiye umwana.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga kwisuzumisha malariya. Muganga yamuteye urushinge ari kumufata amaboko mu maraso, ngo arebe ko ameze neza. Hirya ye hari umusore uhahagaze wambaye akajire w'umukorerabushake.

Umwana mutoya cyane wambaye ikanzu idozwe mu bitenge, afite imisatsi ya direde akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kugenda ayamena, ahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umuntu wagiye kwa muganga kwikingiza urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda, ari guterwa urushinge n'amaboko y'umuganga utagaragara mu maso, ariko wambaye udupfukantoki dusa umweru.

Abana bagera muri bane barishimye cyane bararamye barebye hejuru, bari gukaraba amazi hejuru y'ibase, hari umugabo ufite ijage ari kugenda abasukirara amazi, yambaye bote bigaragara ko ari umuhinzi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara yatebeje, ari kuri kandagira ukarabe ya gakondo ari gukaraba intoki n'amazi meza, ubu ni uburyo bwiza leta yashyizeho bwo kurwanya umwanda.

Abana bari koga mu kiyaga baka bari kugenda bidumbaguzamo kugira ngo bamererwe neza, ni byiza cyane ko abana bakora imyitozo ngororamubiri, binyuze mu koga mu kiyaga kuko bituma bamera neza.

Umugabo w'inzobe wambaye amadarubindi, ni we wasohotse ku cyapa kiri gusa ubururu, bari kutubwira ko ari we tuzaba turi kumwe mu nama izaba muri bibiri na makumyabiri na gatatu, bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo w'umuganga, akaba afashe urupapuro mu ntoki ari gusomaho, imbere ye hari mudasobwa hari n'undi mugabo wundi uhahagaze bigaragara ko bari gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ni ku ivomero rusange aho hari umugore uri gupompa umwana nawe akaba afite ibibido mu ntoki ari kugenda avoma, hirya yabo hahagaze abandi bantu bari kubareba, bahagaze mu nsina.

Umusore wagiye kwa muganga yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umweru ari kumwe na muganga aho muganga yambaye agapfukamunwa ari kugenda yanyanditse mu bitabo inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abana bagera kuri babiri bagiye kuvoma amazi ku ivomo, hari uwafunguye robine none amazi ari kuza ajya mu ndobo y'umweru, hari n'indi ndobo hirya y'umweru ataravomera.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inyubako y'ikigo nderabuzima, bakaba bari kwifotoza aho bari gufata ifoto y'urwibutso. Ni byiza cyane ko tujya dufata inama, tugafata n'amafoto igihe inama irangiye.

Agatanda k'amasahani gakunzwe kwitwa akagege, kakaba kanitseho amasahani ari mu mabara atandukanye, hariho kandi n'ibase y'ubururu, aka kakaba gakoresha mu buryo bwo kwimakaza isuku.

Umwana uri gusukirwa amazi na mugenzi we aseka, bose bambaye amashati y'umutuku, hejuru yabo hari ikirango cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana ku Isi uzwi nka Unicef.

Umwana mutoya cyane w'umunyeshuri ari ku ishuri aho ari gukaraba intoki ku mugezi uba warashyiriweho ibigo by'amashuri, iruhande rwe hari indobo y'icyatsi iriho ikirango cya Unicef.

Abantu bateraniye hamwe bari bari mu nama, bambaye impuzankano z'akazi bigaragara ko ari abaganga, bari kwifotoza kuko iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko iyo nama yari iri kwigaho.

Abakobwa bagera kuri batanu bambaye udupira tw'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bafunze igipfunsi bashyize ukuboko hejuru bavuga ko ingamba biyemeje bagomba kuzigeraho.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bari mu nama, harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo umugore umwe w'umuganga, wambaye imyenda y'umweru yo kwirinda icyorezo, ari kugenda abazengurukamo ngo arebe ko bameze neza.

Abana bari ku ivomero rusange aho bagera muri batandatu, harimo abiganjemo bambaye amashati y'icyatsi, bigaragaza ko ari abanyeshuri, bari kunywa amazi bakoresheje intoki.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho ari abagabo babiri bakaba bicaye bigaragara ko bari mu nama, bari kugenda batanga ibitekerezo ndetse banungurana ibitekerezo kugira ngo barebe ko byagenda neza.

Abantu benshi cyane biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahagaze mu cyumba kiberamo inama aho bari kwifotoza, hejuru yabo ku rukuta handitseho ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Ni ku ivomero rusange, aho haba hari abantu benshi cyane baje gushaka amazi, bitwaje ibijekani. Iryo vomero ryubatswe mu buryo bugezweho aho riteye irangi ry'ubururu ndetse n'umweru hejuru.

Umugabo w'umujyanama w'ubuzima akaba yambaye bote n'imyenda yo mu mabara y'umweru. Yicaye ku gatebe k'akabaho aho ari kuganiriza umugore ukikiye umwana, amubwira ibyiza byo kuboneza urubyaro.

Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano z'ishuri, bigaragara ko ari umunyeshuri, ari kuvoma amazi ndetse anakaraba intoki kuri kandagira ukarabe, yambaye impuzankano ndetse hirya ye hari bagenzi be.

Abana babiri bagiye kuvoma ku ivomero rusange, umwe muri bo ari gupompa, undi na we yateze akabido kari kujyamo amazi, ubu ni uburyo Leta iba yarakoresheje kugira ngo yegereze abaturage amazi.

Abantu bateraniye hamwe bari kwifotoza harimo abagabo ndetse n'abagore babiri b'abaganga, bateraniye imbere y'inzu iberamo inama yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwabo hari icyapa cy'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe, bari mu cyumba cy'inama aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'imifariso, imbere ya buri wese hagiye hateretseho agacupa karimo amazi yo kunywa.

Abana b'abanyeshuri bagiye kunywa amazi ku kigega, bose bafite ibikombe by'icyatsi, bari kugenda bavoma amazi hanyuma bakanywa, ni byiza cyane kunywa amazi dukoresheje igikombe kuko bidufasha kwimikaza isuku.

Amagambo y'umukara yanditse ku cyapa kiri gusa umukara na cyo, aya magambo akaba yanditse mu cyapa mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bahagaze, harimo abagore biganje bambaye utujire dusa icyatsi, bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Bari kwifotoza bigaragaze ko bahoze bari mu nama.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, higanjemo abaganga ndetse n'abantu baje gusaba serivise, inyuma yabo hari umugabo wambaye ikositimu ufite umudigi uri kubafotora.

Abantu benshi cyane batandukanye, higanjemo abajyanama b'ubuzima barahagaze bari kwifotoza bose bambaye udupfukantoki ndetse n'udupfukamunwa, bigaragaza ko bari bari mu nama none bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umwana w'umunyeshuri wambaye imyambaro y'ubururu, yagiye kwa muganga kwikingiza kanseri y'inkondo y'umura, muganga nawe afite urukingo mu ntoki ari kurumutera, umwana we nta kibazo ari kugira kuko azi akamaro karwo.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzumpuzankano, bigaragara ko ari umunyeshuri, ari gukaraba intoki ku ivomera ryiza cyane riba ryarashyiriweho abanyeshuri kugira ngo bimikaze ndetse barwanye umwanda.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kikaba kiriho uturango tugaragaza ikirango cy'umuryango w'abibumbye wita ku bijyanye n'imirire ku isi.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga, hakaba hari n'akayira kayiganaho, hakurya hari indi nyubako isakajwe amabati atukura iteye amarangi y'umweru, ikaba kandi ifite ubusitani bwiza cyane.

Abana batandukanye, biganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano z'icyatsi. Bari ku ivomero rusange, aho bari kugenda banywa amazi bakoresheje intoki. Si byiza cyane gukoresha intoki kuko ibyiza ari ugukoresha agakombe.

Abantu babiri harimo umwana muto ndetse n'undi wisumbuyeho, bagiye kuvoma amazi mu iriba aho bavoma amazi badubitsemo ibijerekani, aya mazi si meza kuko atera indwara ziterwa n'isuku nke.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubabwira, bahagaze muri shitingi ndetse hatatse mu mabara y'Ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo w'Umwisilamu wambaye imyenda idoze mu bitenge ndetse n'akagofero k'abayisilamu. Ahagararanye na muganga, aho muganga yambaye agapfukamunwa ari kumureba. Ari kugenda amubaza ibibazo na we agasubiza.

Abantu benshi cyane, bateraniye hamwe, aho bari kwifotoza. Hari umugore umwe, wifashe mu mayunguyungu, wambaye iribaya ryo mu gitenge ndetse yambaye n'ijipo y'ubururu. Akaba yishimye, ari guseka.

Abana bagera muri babiri bakaba bahuriye ku ivomero rusange, aho harimo uwambaye agapira k'umutuku n'undi wambaye imyenda idozwe mu bitenge.

Inyubako nziza cyane ntoya zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifite ibikuta bigiye biteyeho imirongo isa ubururu, izi nyubako ni ingirakamaro cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama yiga ku mitangirerwe ya serivise zijyanye n'ubuvuzi, bicaye bakikije ameza, imbere yabo ku gikuta hari insakazamashusho iri kwaka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe bazengurutse ameza, urabona ko ari ibintu byiza cyane, inyuma yabo ku gikuta hariho ibikoresho by'umweru ndetse n'amarido.

Abantu benshi cyane biganjemo abaganga b'abakobwa ndetse n'abasore, bambaye amatabuririya y'umweru, bicaye ahantu bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko inama yabo yari iri kwigaho.

Abana b'abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, bateraniye hamwe ku kavomero, bari kugenda bakaraba intoki zabo, harimo abakobwa gusha bari kureba umuntu ubafotora bishimye.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'agapira k'ubururu, akaba afashe umwana mu ntoki ari kugenda amukarabya amaboko, ubu rero ni uburyo bwiza bwo kwimakaza isuku, ku bana bakiri batoya bagakura bafite isuku.

Ni ku ivomero rusange aho hari umugore wagiye kuvoma amazi, akenyeye igitenge gisa icyatsi ndetse n'agapira gatambitsemo uturonko. Afite injerekani imbere ye, ari gufungura amazi ngo avome.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, abagore bateruye umufuka bari kuwuhereza umugabo, umugabo nawe ari kuwufata kugira ngo awupange hamwe n'indi kuko bari gupanga imifuka myinshi cyane.

Abana bagera muri batatu bagiye kuvoma mu iriba aho bavoma bacuritse ibivido ndetse banakandagiye mu mazi bari kuvomamo, aya mazi rero si byiza kuyakoresha kuko atuma indwara ziterwa n'umwanda ziyongera.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu kirimo uruzi rushushanyijemo umugore n'umwana bari kurebana bishimye, iki kirango kikaba kigaragaza umuryango w'Abibumbye ku isi wita ku buzima bw'umwana kizwe nka UNICEF.

Umwana mutoya urwaye. Bamwibutanye kwa muganga, bari kumwitaho. Hari abantu benshi cyane, baje kureba uwo mwana uko amerewe. Bambaye udupira tw'ubururu, abenshi.

Abaganga bagera muri batanu bicaye ndetse n'undi uhagaze inyuma yabo bari kwifotoza bambaye impuzankano z'akazi, imbere yabo ku meza hateretseho imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza, harimo abagabo ndetse n'abagore bari ku kigo nderabuzima cyubakishije ibikuta bisize amarangi y'umukara ndetse n'ubururu.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, hakaba harimo amashusho y'utuntu tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo, utu rero tukaba twerekana indwara umuntu akunze kurwara ziba ziri mu gutwi.

Umwana ufite igikombe ateze kuri robine. Uyu mwana rero, akaba yambaye agapira k'umutuku. Afite igikombe, agiye gushaka amazi yo kunywa. Ni byiza cyane gutoza abana kunywa amazi, dukoresheje ibikombe.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse hariho uturongo tw'icyatsi n'ubururu, hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu avuga ngo:" Ubuzima bw'isi muri rusange".

Abantu bateraniye hamwe, aho bari kwifotoza, bafata ifoto y'urwibutso. Harimo abagore bafashe icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo atagaragara neza mu ibara ry'ubururu. Abenshi baritandiye.

Umwana mutoya wagiye kuvoma ku iriba, afite akabido ka cumi, ahuye n'umugabo none umugabo ari kumutura ako kabido kubera ko karemereye, hari umugore w'umuzungu ari kubafotora, hirya hari abandi bantu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe b'abaganga, bambaye amataburiya y'umweru barishimye bigaragaza ko hari ingamba bamaze gufata biyemeje ko bagiye kuzishyira mu ngiro byihuse.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu nama. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze afashe ijambo ari kuvuga. Inyuma ye hari icyapa kiriho insanganyamatsiko bari kuvuga muri iyo nama.

Abantu b'abasore babiri bahagaze mu nzu bari kuganira, umwe yambaye agapira k'ubururu undi agashati k'umweru, hirya harimo abandi bantu benshi, bigaragara ko bari bari mu nama.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka irindwi, arunamye ateruye indobo y'umuhondo agiye kuyikorera, iruhande rwe hari umugabo ufite ingata agiye kuyimushyiriraho, si byiza cyane gukoresha abana kuko aba ari ukuvuna umubiri wabo.

Umugabo n'umugore w'umuzungu barahagararanye, bafite agakapu mu ntoki k'umukara kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ngo sura u Rwanda, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho ibirangantego by'umuryango wita ku bana ku isi unicef.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ayo magambo rero akaba asobanura umuga umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana ku isi, witwa UNICEF.

Abantu babiri bahagararanye umwe ni umugabo n'undi ni umusaza, uwo w'umusaza afashe ibitabo mu ntoki bahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo kurwanya icyorezo cya Marburg.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, witeze igitenge nk'igitambaro, yambaye n'agapfukamunwa, ari kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abana bari kuri robine bari kuvoma, bose bambaye imyambaro isa bigaragara ko ari abanyeshuri, bari kuvomera mu ndobo zisa imihondo, hirya yabo hari ibiti by'imikindo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugabo w'umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'umugore, afite icyapa mu ntoki kiriho abana babiri, bigaragara ko aba bana ari urugero uyu mugabo ari gutanga abwira uyu mugore ko byaba byiza aramutse aboneje urubyaro.

Ababyeyi bagiye batandukanye, bakaba bazanye abana babo kubakingiza, hakaba hari umuganga uri kugenda abanyuramo, agenda areba uko umwana ahagaze, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bw'uruziga kandi bw'amayobera, iyi nyubako rero ikaba ifite akayira kayiganaho ahagana hejuru, hakurya hari ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abantu bateraniye hamwe benshi b'abaganga bari kwifotoza, hagati yabo hahagazemo umugabo w'umuzungu wambaye ikositimu uri kwifotozanya nabo, bakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ni ku ivomero rusange, aho hari abagore babiri baje kuvoma. Umwe asa n'ukuze, undi aracyari muto, akenyeye igitenge cy'icyatsi. Ari kuvoma amazi ku ivomero rusange, iruhande rwe hari ijerekani zihateretse.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'uruziga. Hejuru hakaba hariho akayira k'icyuma kagana kuri iyo nyubako, hakurya hari kugaragara agashyamba gateyemo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ni ku ivomero rusange, riba ryarashyizweho na leta, mu buryo bwo kwegereza abaturage no kunoza serivise ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Hari abagore batatu bagiye kuvoma kuri iryo vomero. Babiri bari gupomba, undi umwe ari kuvoma.

Umwana w'umusore uri gufungura amazi ku kigega, amazi ari kujya mu gakombe bigaragaza ko agiye gushaka amazi yo kunywa, ni byiza cyane kunywesha amazi igikombe kuko bituma tumererwa neza.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo umuganga wicaye ku meza ari kwandika, hari kandi n'umugabo w'umwisilamu, uhagaze iruhande rwe wambaye imyenda y'icyatsi bigaragara ko yaje gushaka serivisi.

Ni ku ivomero rusange, aho hari abantu benshi cyane baje kuvoma, hari umwana umwe uri gupompa ndetse n'undi uri kuvoma, hakurya hari abandi bahahagaze, bigaragara ko bashungereye ibiri gukorerwa kuri iryo vomero.

Abantu benshi cyane bahuriye ku ivomo rusange, higanjemo abagore bagera kuri babiri ndetse n'undi umwe uri kuvomesha, abo bagera muri babiri bari kunywa amazi barunamye. Iri vomo rero ryashyizweho na Leta mu buryo bwo kwegereza abaturage serivisi z'amazi.

Umwana wikoreye amaboko wambaye agapira k'umweru, akaba ari kurira bigaragaza ko atishimye, iruhande rwe hari umugore ufite ibintu by'ibikoni bibiri, hirya hari abandi bantu benshi bigaragara ko ari mu isoko.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, yambaye urunigi mu ijosi ndetse yiteze igitambaro cy'umweru. Akaba ari kuvuga yitotomba yasamye, bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba yicaye ahantu mu muhanda ari kugenda atoragura amacupa ndetse n'amashashi, uko bigaragara uyu mubyeyi ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho ari kugenda atoragura amashashi, iruhande rwe hari imodoka itwara ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi bimenyerewe nk'ibikamyo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umweru n'umukara. Ahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ibikorwa byo kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, ahazwi nka CARAES haherereye mu Karere ka Huye.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umukara ahetse agakapu ku bitugu bye, yambaye agapfukamuwa k'umweru ateze igitambaro cy'umukara, yasohotse ku cyapa bari kuvuga ko ari we uzatanga ikiganiro cyigisha ku bijyanye n'ubuzima.

Umusore wambaye agapira k'umukara, akaba yipfutse mu maso, ari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zo kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, yipfutse mu maso arababaye cyane.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku. Cyanditseho amagambo y'umweru, mu rurimi rw'icyongereza. Ayo magambo aravuga ngo "Umwana cyangwa abantu b'ingimbi, tugomba kwita ku buzima bwabo".

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye amarange y'umweru, akaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse n'ibyapa birimo bigaragaza aho ariho.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba, biragaragaza ko bari mu nama yiga ku nsanganyamatsiko runaka, hari umugore umwe muri bo ufashe indangururamajwi mu ntoki ari gutanga igitecyerezo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho yambaye agashati k'umweru, akaba ndetse afite n'umwitero w'umuhondo, yambaye ingofero, afite n'ingabo, ari kubyina indirimbo za gakondo, bigaragara ko ari umusizi.

Umugore ugeze mu kigero cy'imyaka nka mirongo itatu, akaba yicaye ku gatebe kurubaho, inyuma ye ku giputa hashushanyijeho ururabo, nk'uko bigaragara uyu mugore ashobore kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Si byiza cyane gutekereza cyane, abaganga bahora batubwira ko tugomba kujya dufata umwanya tukiyitaho, aha rero hari ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe ku Isi.

Abagore bicaye ahantu mu cyumba, uko bigaragara hari umugabo ubahagaze imbere uri kugenda abakoresha inama, inyuma ye ku gikuta hari amagambo ahanditse agaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Umugore we wicaye iruhande rw'igiti, bakaba bamushyizemo imihama bamuziritse ku giti, bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe ndetse akaba agenda arwana, bamuziritse hano kugira ngo barebe ko yakoroherwa.

Abana batandukanye bahuriye hamwe, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo, barishimye cyane bari gukoma mu mashyi, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubahugura ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu w'umusaza ugeze mu zabukuru akaba yicaye ahantu yambaye imyenda y'ibicuki yacikaguritse, afashe uducupa tw'amazi mu ntoki bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, yegamiye ku gikuta giteye amarange y'umweru n'umuhondo dusa nabi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bahagaze bari kwifotoza. Harimo abashinzwe umutekano, abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hakaba hariho amagambo yanditse ku rukuta ari mu mabara y'umukara. Hariho kandi n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama, bicaye mu buryo bw'uruziga aho bagenda bicaye ku ntebe z'amashezi zifite imifariso, mo hagati harimo abagore batatu bari kugira icyo baganiraho.

Umugore w'inzobe wagaragaye ku cyapa, akaba yambaye umupira w'umukara, hirya ye hari amagambo yamamaza ikigo gitanga umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba cya Mysol.

Abantu babiri bicaranye aho harimo umugabo ndetse n'umugore. Umugabo yambaye agapira k'umukara, umugore yambaye ishati idozwe mu gitenge, afashe indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga.

Amafoto y'abantu benshi bari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, aya mafoto rero ni ibipupe, ari mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umukara, hejuru handitseho amagambo y'umukara.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abana, abagore ndetse n'abagabo, bafite bose Amabendera y'Igihugu cy'u Rwanda, akaba ari mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bateraniye hamwe. bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu. Bamanitse ibiganza bose, bigaragara ko bishimye. Hirya yabo, hari ibendera ry'u Rwanda.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, akaba ari gushigisha igikoma ku ziko gakondo, yambaye imyenda y'ibitenge ndetse n'ikanzu, ahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite imiryango y'icyatsi.

Abantu benshi cyane batandukanye, bahagaze ahantu bari kwifotoza, bigaragara ko bari bari mu nama none inama ikaba irangiye bakaba baje gufata ifoto y'urwibutso, ab'imbere bafashe icyapa kiri mu mabara y'icyatsi kiriho insanganyamatsiko y'iyo nama.

Abantu bateraniye hamwe, higanjemo abagore batatu ndetse n'umugabo umwe, muri abo bagore harimo umwe wambaye agapfukamunwa yagashyize mu nkokora ari kubatunga urutoki bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo kandi n'abahagaze, bari kwifotoza bigaragaza ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bakaba bagiye gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babone uko baza gutanga raporo.

Abagore bagera muri batatu bahagaze bafashe inkoni z'ibibingo mu ntoki, harimo umwe ukikiye umwana uri kumwonsa, inyuma yabo hari udusozi twiza cyane duteyeho ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza, bambaye impuzankano z'udupira tw'ubururu bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo umuzungu ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umweru bari kumwe.

Umugabo uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, ni byiza cyane gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bituma twirinda imyanda ifatwa hagati y'amenyo.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, akaba afite amenyo meza ari kuyakorera isuku akoresheje urudodo. Ni byiza cyane gukorera isuku amenyo yacu dukoresheje urudodo, kuko rumaramo imyanda yose iba yasigayemo.

Umuntu urwaye urembye bamujyanye kwa muganga, bamuryamishije ku gitanda none abaganga babiri baje baramwegera bari kureba uburyo ki bamwitaho ngo abe yakoroherwa.

Amenyo n'imizi yayo aha ngaha rero muganga yifashisha igikanka kugira ngo asobanurire abantu uko amenyo n'imizi yayo biba bireshya. Ni byiza cyane kumenya uko amenyo aba angana.

Umugabo uri gukora isuku y'amenyo ye akoresheje urudodo, arasamye ari guseka, bigaragara ko ameze neza cyane, ari kugenda asukura amenyo ye akoresheje urwo rudodo kugira ngo amenyo ye amererwe neza cyane.

Umugabo wambaye amadarubindi utagaragara mu maso neza, afite ubwanwa buke, afite amenyo meza aho ari gutungamo urutoki, avuga ati aya menyo yanjye ni meza cyane kubera ko nyagirira isuku.

Ishusho y'igikanka aho bari kutwereka amenyo yose umuntu aba afite, ni byiza cyane kwigisha abantu ibijyanye n'amenyo kugira ngo basobanukirwe amenyo umuntu aba afite uko aba angana.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba agiye gusukura amenyo ye, aho ari gushyira umuti ku buroso ndetse akaba ari kwegera robine ngo ajye arafata amazi maze ayakoreshe, arusheho gusukura amenyo ye.

Umwana wagiye kwa muganga kwivuza. None muganga yambaye ga z'icyatsi, ari gusuzuma amenyo ye niba ameze neza. Uyu mwana rero, ari mu kigero cy'imyaka itanu. Ni byiza cyane gukurikirana ikibazo cy'amenyo hakiri kare.

Umugabo wateretse umusatsi akaba afite amenyo meza cyane, arasamye ari kuyatungaho urutoki, imbere ye hari intoki z'umuganga zifashe amenyo y'amakorano, ari kuyatungaho avuga ngo n'aya yanjye ni meza si ngombwa ngo mumpe andi.

Umugabo wirabura uryamye kwa muganga, afite ikibazo cy'amenyo none yagiye kwa muganga kuyikuza, muganga yambaye agapfukamunwa n'impuzankano z'ubururu n'akanozasuku mu mutwe, afite ibyuma byabuhariwe ari kugenda ayakura.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byabugenewe abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi, harimo udutebe dufite amabara y'ubururu n'iroza, dufite n'amapine.

Abana bato bagera muri babiri, bafite uburoso mu ntoki bari kugenda bakorera isuku amenyo yabo, ni byiza cyane kugirira isuku amenyo yacu kuko bituma twirinda indwara zigiye zitandukanye zifata amenyo.

Umuntu w'umwirabura wasamye, aho afite amenyo y'amakorano agiye gushyira mu kanwa ke. Akaba ayafashe n'intoki ze zombi. Akaba yirabura rwose, mu buryo bugaragara.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi. Cyane cyane, nk'intebe abarwayi bagiye kwikuza amenyo bicaraho ndetse n'iyo muganga yicaraho, ari kubasuzuma.

Umwana wagiye kwa muganga arwaye amenyo, muganga akaba agiye gusuzuma ngo arebe uko amenyo ye ahagaze, akaba afite udukoresho twabugenewe twifashishwa mu gusuzuma no gukura amenyo.

Umwana wagiye kwa muganga afite ikibazo cy'amenyo y'amahengekerane, muganga yambaye amadarubindi, udupfukantoki tw'umweruda ndetse n'itaburiya y'umweru, afite ibyuma byabugenewe ari kubikoresha asuzuma ayo menyo.

Umukobwa w'imibiri yombi. Yambaye itaburiya y'ubururu, ari kwireba mu ndorerwamo, ari guseka. Bigaragaza ko ari kureba ubwiza bw'amenyo ye kubera ayagirira isuku. Ni byiza cyane kugirira isuku amenyo yacu kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri gukoresha isuku ye amenyo akoresheje urudodo, arasa inzobe, nta bwanwa afite ,yewe nta n'umusatsi afite, mumaso ye ntabwo hagaragara neza. Ni byiza cyane gukoresha isuko amenyo dukoresheje urudodo.

Umugore n'umwana bambaye udusengeri dusa tw'umweru, bafite n'imisatsi myiza cyane y'umukara bose bari kurebana bafite uburoso bari koza amenyo yabo, umubyeyi ari gutoza umwana kugirira isuku amenyo ye akiri muto.

Inyubako nziza cyane, itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi. Ibikuta birasa umweru n'amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru.

Umwana ufite ikibazo cy'amenyo y'impengekerane, akaba ari kwa muganga muganga akaba afite ibyuma byabugenewe ari kumutera ikinya kugira ngo amukure ayo menyo, umwana adafite uburibwe bukabije.

Umugabo uri guseka wishimye cyane ufite amenyo meza cyane w'inzobe. Iruhande rwe hakaba hari muganga ufite amenyo y'amakorano, akaba ari kuyamwereka amubwira ngo aya na yo wayashyiramo, hanyuma ukarushaho gusa neza cyane.

Abantu benshi cyane batandukanye, bakaba bari mu cyumba gitangirwamo inama, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi yanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo.

Intoki z'umuganga zifashe igikorano cy'iryinyo, aho ari kugenda ahandura areba indwara runaka iryo ryinyo ry'uwo muntu ryaba rirwaye, ibi rero ni uburyo bwo kwigisha abantu kuvura amenyo.

Umugore ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, akaba yagiye kwa muganga. Muganga yambaye ga mu ntoki ndetse n'agapfukamunwa, ari kugenda amukura amenyo kuko yagiye kwikuza amenyo.

Umugabo uri guseka aho afite ubwanwa buke n'agasatsi gake, arishimye afite amenyo meza cyane, ari kutubwira ko na twe tugomba kugirira isukuka amenyo yacu akaba meza nk'aya ngaya yiwe. Ni byiza cyane gusukura amenyo.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikoresho byose nkenenerwa abaganga bifashisha, mu gihe baba bari gukura abarwayi baje babagana amenyo baba barwaye.

Umusore uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, yambaye agapira k'umweru aho ari kwireba mu ndorerwamo. Ni byiza cyane gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bituma agira ubuzima bwiza ntarware.

Umwana mutoya ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, yihutiye kujya kwa muganga kugira ngo abaganga bamusuzume barebe uko amenyo ye ameze, uyu mwana rero yambaye agafukamunwa k'umutuku, abaganga bo bambaye impuzankano z'akazi.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba afite ubwanwa bw'imvi, yagiye kwa muganga aho hari umuganga w'umukobwa uri kumwitaho amuha umuti w'ibinini ngo anywe arusheho kumererwa neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga gushakayo serivise, none muganga ari kumugendesha ku byuma byabugenewe kugira ngo agorore amaboko ye n'amaguru ye arusheho kumererwa neza.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba yicaye mu nzu iwe, aho ari gukina umukino bakina bakoresheje amaboko uzwi nka damu, akaba agenda akina wenyine.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho yagiye kwa muganga. Muganga yamushyizeho icyuma cyabugenewe cy'umukara ku kizigira cy'ukuboko, bigaragara ko ari kumupima umuvuduko w'amaraso ngo arebe ko ubuzima bwe buhagaze.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ateruye akuma ka ariteri k'icyatsi, yambaye amadarubindi, yambaye n'agapira k'umweru, iruhande rwe hari umuganga uri kugenda amuyobora uko abikora, wambaye imyenda y'umutuku.

Umukecuru uri guterura icyuma kizwi nka aliteri, afite tubiri mu ntoki ze zombi dusa icyatsi, ari kugenda aduterura kugira ngo imitsi ye irusheho kugororoka, ni byiza cyane rero guterura ibi byuma nk'abantu bageze mu zabukuru kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Umugore uri kumwe na mugenzi we. Bari guhererekanya igikapu. Bigaragara ko umwe bari kumuhemba kubera ubutwari yagize. Iruhande rwabo, hari abandi bantu bari gukoma amashyi.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yambaye amadarubindi. Yambaye n'ishati ijya gusa umutuku, akaba afite ikaramu mu ntoki n'igitabo ari gusoma. Ni byiza cyane gusoma igitabo, mu mugihe tuba tugeze mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba yicaye imbere yo ku meza ari gukina umukino wa damu. Ari gukina n'undi muntu w'inzobe ariko utagaragara neza ugaragara igice cy'ukuboko gusa.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ari kugendera ku cyuma cyabugenewe bakunze gushyiraho abantu bageze mu zabukuru, ari kumwe n'umukobwa uvuye guhaha amufashe ku rutugu, bari kugenda imbere y'umuhanda wa kaburimbo.

Umusaza ugeze mu zabukuru imisatsi ye ni imvi, ari kozwa n'intoki z'umukecuru ari kugenda amusukura, ni byiza cyane kwita ku bantu bageze mu zabukuru tukabagirira n'isuku.

Umukecuru n'umusaza bageze mu za bukuru bari hamwe mu rugo, barishimye bari guseka, umukecuru afite umusatsi muke w'imvi, n'umusaza umusatsi we ni imvi, bari ahantu hamwe, barishimye cyane.

Abantu babiri bicaranye harimo umukecuru ndetse n'umugabo, bose barishimye bari guseka, bambaye imyenda isa icyatsi, umukecuru afashe agakoni k'icyuma, naho uwo mugabo afashe akuma abaganga bifashisha bapima umutima.

Abantu batandukanye bari kwifotoza, harimo umusaza ufite imisatsi yabaye imvi, umugore ndetse n'umukecuru n'umugabo n'abandi bana benshi cyane, barishimye bose bari guseka.

umukecuru wamugaye ugeze no mu za bukuru, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga yagiye kwa muganga, muganga yashyize icyuma mu kizigira cy'ukuboko kwe ari gupima amaraso ye ngo arebe ko adafite umuvuduko w'amaraso.

Abagore b'abakecuru bageze mu zabukuru, aho bari gukora akazi ko gusoroma icyayi, rero ni byiza cyane gushora icyayi kuko ari ingenzi cyane gitanga amafaranga.

Abakecuru babiri bageze mu zabukuru, bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bari gukora, barambuye ukuboko kw'iburyo, bagushyize imbere, ukw'ibumoso bagushyize inyuma. Barishimye cyane, bari guseka, bigaragara ko bishimiye kuba bari kugororoka umubiri wabo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba ari kumwe n'umwana we w'umukobwa, aho ari kugenda amukoresha imyitozo yo guterura akuma, uyu mukecuru na we yambaye uduherena n'agapira k'icyatsi, ari kugenda aterura kugira ngo arebe ko imitsi ye yagororoka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama, bicaye munsi y'igiti bigaragara ko bari gukora inama, bicaye mu ishusho y'uruziga, iki giti gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yambaye agakanzu kari mu mabara ajya gusa umuhondo, yiteze n'igitambaro cy'umukara, yambaye amadarubindi aho yishimye cyane, inyuma ye hari umukobwa w'umuganga uri kugenda amuganiriza.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye ishati iri mu ibara rya shokora, akaba yambaye isaha ku kuboko, ari gukozaho urutoki kugira ngo arebe niba ibara neza ndetse arebe n'aho isaha zigeze.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, umusaza akaba afite ubwanwa bw'imvi, yambaye agapira k'umweru mu gihe umukecuru yambaye agapira k'umutuku, bari kurebana baseka aho bari gusangira amafunguro ku meza.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari kugenda biruka kuri mucaka, umusaza ndetse n'umukecuru bose bari guseka bigaragara ko bishimye.

Umugabo ari kumwe n'umusaza ugeze mu zabukuru. Bari kugenda ahantu hari ubusitani bwiza cyane. Umugabo afashe umusaza ku rutugu, bari kugenda baganiriye bishimye cyane ndetse baranezerewe.

Abantu bageze mu zabukuru bateraniye hamwe, harimo abasaza n'abakecuru, bose bakaba bafite inshyimbo, bicaye ku ntebe z'imifariso begamiye, bigaragara ko bashobora kuba bari kota akazuba.

Ni inyubako nziza cyane mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari umusaza uryamyemo wambaye agapira k'umweru, akaba kandi afite intoki zirabura, iruhande rwe hahagaze umuganga uri kumwitaho.

Umukecuru ugeze mu zabukuru aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yunamye ari gukora siporo ari guseka, mu mutwe we imisatsi ni imvi gusa, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bigaragara ko bari mu nama, hari umugore uhahagaze wambaye akajiri k'umukara, ari kugenda abahereza ibinini bose kugira ngo birinde indwara.

Abantu bagiye batandukanye bari kwifotoza aho bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko bari bari mu nama none inama irarangiye, bakaba bari kwifotoza kugira ngo babone uko baza gutanga raporo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari mu cyumba cy'inama, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo ''Duhagarike icyorezo cya Marburg.''

Abagabo babiri bambaye amakositimu y'umukara, bose ni inzobere, umwe muri bo aricaye, undi arahagaze, bakaba bari ku cyapa cyanditseho ibijyanye n'imitangire ya serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama, harimo abahagaze n'abandi baricaye. Biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso kubera ko bari bari mu nama, ibikuta by'inzu biteye amarangi y'umweru.

Umusore ndetse n'umukobwa barahagararanye bafite icyapa mu ntoki gisa umukara, buri wese afite icye, kigiye cyanditseho ngo bibiri na mirongo itatu.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo umukecuru, aho bari kugenda babapima amaraso ngo barebe ko nta ndwara ya Malariya barwaye, umukecuru nawe rero ari muri abo bari gupimwa.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, higanjemo amabara y'umukara, iroza ndetse n'umweru, kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo ''Murakaza neza ku munsi wita ku buzima bw'abagore, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu.''

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hicaye abagore ndetse n'abagabo bari kubakoresha iyo nama, inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'icyatsi kiriho amafoto y'abari kubagezaho iyo nama.

Umwana uri ku cyapa cyagaragajwe cyanditseho amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'Icyongereza, hariho kandi n'ayandi y'umweru yanditse ahantu hasa icyatsi ariko atagaragara neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe, baricaye bigaragara ko bari mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore, bose barenze imbere bigaragara ko bakurikiye, bari kureba umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abantu benshi cyane b'abaganga bateraniye hamwe ku kumurwayi waje arembye, bari kugerageza kumwitaho ngo barebe ko bamusubiza ubuzima kuko ararembye cyane, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi.

Amagambo agiye atandukanye yanditse mu matsinda agera muri atanu, aya magambo akaba ari mu rurimi rw'icyongereza, yanditse mu nyuguti z'umukara, ari mu mabara y'umutuku, ubururu, icyatsi cyijimye, ubururu bw'iroza ndetse n'ibara ry'ivu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, ni urubyiruko bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru. Bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo ngo: "Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda. Irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi".

Ahangaha ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hari umugore wambaye agapira k'umukara waje kwipimisha indwara y'umuvuduko w'amaraso muganga yamushyize igikoresho kabuhariwe mu kizigira cy'ukuboko ngo arebe uko amerewe impande yabo ku meza hari indangururamajwi inyuma yabo hari abandi bantu.

Icyapa kiriho uburyo umuntu yakoresha kugira ngo abe yarwanya indwara ya Kovide cumi n'icyenda, kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo y'ubururu, hariho kandi amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro arikuvuga, yambaye amakositimu, bigaragara ko ari gutanga inama ni ubwo indorerezi zitagaragara, iruhande rwe hari insakazamashusho iri kugaragaza undi mugabo uri kuvuga.

Abantu babiri umwe w'umugabo, undi w'umukobwa, umugabo n'umuzungu yambaye imyenda y'amakositimu, umukobwa umuri iruhande yambaye agakanzu kagufi ndetse bose mu ijosi bambaye ibirango bigaragaza akazi bakora.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hicaye abagabo batatu n'abagore babiri, harimo umugore umwe ufite indangururamajwi mu ntoki arivuga, inyuma yabo hakaba hariho icyapa cyanditseho insanganyamatsiko barikwigaho.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umwe ndetse n'umutuku, hashushanyijeho kandi n'umwana uri guhabwa serivisi na muganga.

Abantu bateraniye hamwe bishimye basutanye ndetse n'abagaze, bazamuye amaboko bari kwishima cyane, bari bari mu munsi mukuru wo guteza imbere umugore akaba umuyobozi, bari mu nzu ifite ibikuta bisa umweru.

Icyapa kiriho ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye, Wita ku Buzima bw'Abana ku Isi kizwi nka Unicefu. Hafashanyijeho kandi n'abana bagiye batandukanye, hariho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Amashusho y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bigaragara ko harimo n'abaganga, harimo n'umuntu w'umuvuzi wa gakondo bakaba bari mu mashusho agera muri atandatu atandukanye.

Madamu wa perezida wa repubulika y'u Rwanda Jeannette KAGAME, akaba yambaye imyenda y'icyatsi, yambaye amadarubindi, akaba ahagaze ku ruvugiro afite indangururamajwi imbere ye, ari gutanga ikiganiro cyerekeranye n'imitangire ya serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho bicaye bari kwifotoza, bose bafite ibitabo mu maboko yabo. Inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kiriho ibirango bigaragaza insanganyamatsiko iyo nama yabo yigagaho.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, avuga ngo ''Ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza'' hariho n'umubare gatatu n'uturongo tugiye tuvunaguye tugana mu ishusho y'umutima.

Abantu bagera muri batandatu bakaba bahagaze hamwe bari kwifotoza, bahagaze ahantu hashashe tapi z'icyatsi, inyuma yabo hari ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko inama yabo yari irimo kwigaho.

Ibimenyetso byo gukuba byinshi bitandukanye aho bitwereka indwara tugomba kurwanya, biri mu mabara y'ubururu, umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'umukara, batubwira ko bagomba kurwanya SIDA, Kovide cumi n'icyenda ndetse na Kanseri.

Icyumba cy'inyubako gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aha ngaha rero bahazana abantu bafite ikibazo cyo kugorama ingingo, muri icyi cyumba harimo ibishushanyo by'inyamaswa zigiye zitandukanye.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hateraniyemo abaganga bagera muri batandatu, bari gukora akanama mbere yuko batangira serivisi zo kwita ku barwayi.

Inyubako nziza cyane ikunze kuberamo inama, ikaba ifite intebe zisa umukara, hakaba hari ameza agiye asa umutuku ariho mikoro cyangwa indangururamajwi bifashisha bari kuvuga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, bw'amagorofa. Hakaba hari ubusitani bwiza cyane imbere yayo, buteyemo idarapo ry'u Rwanda. Hari abantu bari kugenda mu utuyira twegereye iyo nyubako.

Umugabo urwaye urembye cyane, aryamye ku gitanda kwa muganga aho yambaye agapfukamunywa, agapira k'icyatsi ndetse n'agakabutura k'umweru, ashyize ukuboko kw'ibumoso ku ruhande aho bamushyizemo serumu.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo amashusho menshi agiye atandukanye yo mu mabara menshi cyane, harimo kandi n'intebe nyinshi amatara hejuru ari kwaka mu ibara ry'umweru, ayo mabara ni meza cyane.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hakaba harimo amashuka ari gusa umweru, ibikuta birasa umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, amatara hejuru ari kwaka, parafo zirasa umweru.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yagiye kwa muganga, gushakayo serivise. Muganga yamushyizeho igikoresho gipima umuvuduko mu kizigira cy'ukuboko kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye kwa muganga. Imbere yaho, hari icyumba cyanditse ngo ni icyumba gikorerwamo operasiyo. Kikaba gifunze ndetse n'ibirahuri byacyo bitabonerana.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, hari akayira kaganayo gashashemo amapave, hari n'ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi bitoshye, muri ubwo busitani harimo icyuma kiriho ibendera ry'u Rwanda.

Aha ngaha ni kwa muganga, mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zigiye zitandukanye. Harimo igitanda, kiri mu mabara y'umweru. Kikaba ntamurwayi n'umwe uriho. Insakazamashusho imbere, ziri kwaka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe baba bari kwita ku barwayi. Iki cyumba rero gifite ibikuta biteye amarangi y'umweru.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi baje babagana, iki cyumba rero ni cyiza cyane nawe nakugira inama yo kuza kwivuriza aha hantu.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane ubuvuzi bwita ku ndwara z'amenyo, harimo ibikoresho byose nkenenerwa abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, ni byiza cyane ko haba hari ibikoresho byose.

Umugore w'umuganga. Yambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi. Ari gutambuka mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga. Aho ari kugenda asuzuma ngo arebe ko ntamurwayi umerewe nabi urimo.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, iteye amarangi y'umuhondo, hasi haparitse imodoka, imbuga yaho ishashemo amapave.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi zita ku barwayi kwa muganga, harimo ibikoresho kabuhariwe byinshi bigiye bitandukanye bifashisha.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi cyane nkenerwa abaganga bifashisha bari gutanga serivise ku barwayi, harimo kandi n'insakazamashusho ebyiri zitari kwaka.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hariho igitanda kiryamyeho umugore w'umurwayi, akaba yaje kwivuza, muri icyo cyumba kandi harimo ibikoresho kabuhariwe abaganga bifashisha ndetse harimo n'insakazamashusho ebyiri ziri kwaka.

Inyubako iri kuberamo inama ni abantu benshi cyane bateranye bari gukora inama, harimo kandi n'umugabo ufite kamera uri kugenda abafotora.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hariho igishushanyo cy'amaso. Aho bagaragaza ko bavura amaso.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, yubakishije amatafari ahiye, ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse inkingi zayo zirasa umukara, hari akayira kaganayo k'amadarajya.

Inyubako nziza cyane, zubatswe mu buryo bugezweho. Zikaba zisakaje amabati y'ubururu. Amarembo arafunguye. Iyi nyubako rero, igaragaza ko ari ku kigo nderabuzima cya Kigina. Hari umugore uhetse umwana, uje kuhashaka serivise.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibikoresho byose nkenerwa bifashisha: harimo intebe ziganjemo zifite amapine y'umutuku ndetse zifite n'imifariso isa ubururu, ibikuta birasa umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cyo kwa muganga, imbere yaho hejuru y'umuryango hakaba handishaho amagambo mu ibara ry'umukara avuga ngo aho bakirira ababagana ku kigo nderabuzima.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibikoresho kabuhariwe abaganga bifashisha batanga ubufasha ku barwayi baje babagana. Ibi bikoresho ni ingenzi cyane kuko birafasha cyane.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba kandi isakaje amavati y'ubururu, ifite ubusitani bwiza ndetse n'akayira kajyayo gashashemo sima, akaba ari inyubako yanditseho amagambo ngo your Isange One Stop Centre iherereye Remera Rukoma.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku yicaye ku ntebe, imbere ye ku meza hateretseho amazi, hari undi mugabo wambaye agapira k'umweru k'amaboko ndetse n'ipantaro, ari gutunga urutoki imbere amwereka amagambo ahanditse.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru akaba aryamye ku gitanda kwa muganga, biragaragara ko arwaye, hari abaganga babiri bari kumwitaho, harimo umwe wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku.

Umugore wagiye kwa muganga kwivuza. Akaba yari arwaye. Yicaye ku gitanda, yiyoroshe amashoka ndetse yambaye n'agasenge. Hari umuganga uri kumwitaho, wambaye itaburiya y'umweru. Hirya yabo, hari undi mugore uryamye ku gitanda.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, harimo ibitanda byiza cyane bishasheho amashuka y'umweru, harimo kandi n'insakazamashusho iri kwaka.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara za kanseri, yubakishije amatafari ahiye ndetse hateyeho n'irange rijya gusa umuhondo, hari ubusitani bwiza cyane buparitsemo ikinyabiziga cya moto.

Abakobwa bagera muri batandatu, bambaye impuzankano z'ubururu n'udupfukamunwa tw'ubururu, bigaragara ko ari abaganga, bafunze igipfunsi bavuga ngo izi ntego twihaye tugomba kuzigeraho.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, iyi nyubako rero yubakishije amatafari ahiye, mo imbere hari abantu bahagaze munsi y'urubaraza, bakaba bategereje ko abaganga baza bakabaha serivisise.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi. Ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa. Ndetse ikaba isakaje amabati y'umutuku. Hari abantu benshi cyane baje bahagana Baje gushaka serivise. Higanjemo abagore.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba igeretse inshuro zigera muri enye, umuryango urafunguye hari gusohokamo akamodoka, hari kandi n'umugabo wicaye impande y'umuryango.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba cy'inama biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye udupira tw'impuzankano tw'umuhondo ndetse n'icyatsi cyerurutse, baricaye bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba isakaje amabati y'umutuku, iteye amarangi y'umweru kubikuta, akayira kajyayo gashashemo amapave ndetse na kaburimbo, hari kandi n'ubusitani bwiza cyane.

Umugabo uri kwigisha umwana ibijyanye n'amenyo, afite ikibumbano cy'amenyo ni cyo ari kumwigishirizaho, hahagaze abandi bantu inyuma yabo bazanye n'uwo muganga muri icyo gikorwa cyo gusobanurira abana ibijyanye n'amenyo.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo isakazamashusho, harimo kandi n'amabara y'umweru ateye ku bikuta.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda bya CHUB, iruhande rw'aho hari icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ibitaro bya Kaminuza.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'umweru, ikaba ifite imiryango ifite inzugi z'umweru, iyi miryango yombi irafunguye, muri iyi miryango rero mo imbere hakorerwamo ibikorwa byo gucuruza imiti igezweho ahazwi nko kuri farumasi kwa Iraguha.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo intebe ndetse n'ibitanda byabugenewe byifashishwa batanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Ibi bikoresho byose ni ingirakamaro cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa, yubakishije amatafari ahiye, ikaba iriho icyapa hejuru handitseho amagambo asa icyatsi ariko ari mu rurimi rw'Igifaransa.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umweru ku bikuta, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari abantu bari kugenda ndetse hari n'icyapa cy'umutuku cyanditseho amagambo ngo ''Ikigo nderabuzima cya Matyazo.''

Inyubako zigera muri ebyiri, imwe yubatswe mu buryo bw'uruziga, indi yubatswe mu buryo busanzwe, yubakishije amatafari ahiye, akayira kajyamo gashashemo amapave ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Akaba ari inyubako y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal, hakaba hari amadarapo agera muri atatu imbere yayo, iryo hagati ni idarapo ry'u Rwanda.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe baba bari kwita ku barwayi. Harimo intebe nziza zifite imifariso, ibikuta n'amakaro byose birasa umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye ariko ateye irangi ry'umweru, hejuru y'umuryango ukingishije inzugi zifite ibirahuri bibonerana, handitse amagambo mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara y'umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ibitanda byo kwa muganga biba biryamyeho abarwayi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kandi baba barembye, hejuru yabo hamanitse supanete zizinze, izi zikaba zifashishwa mu kurwanya ikwirakwira rya malariya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Ugenekereje mu kinyarwanda ashatse kuvuga ko ari ahatangirwa ubuvuzi bwita ku bantu ndetse n'inyamaswa muri Afurika.

Icyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye kwa muganga . Cyane cyane serivise zita ku bantu bashaka gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho nkenerwa byose byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba yicaye ku gatebe gafite amapine, uyu mugabo rero uko bigaragara ni umuganga, akaba yicaye ku gatebe gasa icyatsi, ari mu nyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, imiryango yayo ikaba ifite inzugi zisa umweru n'amadirishya ya fime byose bikaba bifunze, hejuru hakaba ari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ifite umuryango ufunguye ku igorofa ryo munsi, uwo muryango rero mo imbere hakaba hakorerwamo ibikorwa byo gucuruza imiti, ahazwi nko muri farumasi.

Inyubako nziza cyane yubashtswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako ifite icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ibikuta by'iyi nyubako birasa umweru, hari kandi n'igitanda abarwayi baryamaho.

Umuntu ufite ubumuga uri kugenda mu kagare k'abafite ubumuga. Asunitswe n'umwana mutoya, wambaye agakositimu. Bagiye kwinjira mu cyumba kiri kuberamo ibirori. Hari umukobwa uhagaze ku marembo, wambaye agapira k'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati atukura, imbere yayo hari amadarapo abiri, hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hari n'irindi kandi risa umweru.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bw'amagorofa, imbere yazo haparitse imodoka zigera muri ebyiri, imbuga y'iyo nyubako, ishashemo kaburimbo, ndetse amarembo arafunguye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite umurongo usa umweru hejuru, ikaba kandi ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga.

Ni mu cyumba gitangirwamo imiti kwa muganga, haba harimo utubati twinshi cyane tugiye dufunze, abaganga rero bagenda baza bagafungura mu kabati, bakarebamo umuti bashaka hanyuma bakawuvuza umurwayi.

Inyubako ifite icyumba kigari gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hakaba harimo ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha, harimo kandi n'amarangi y'umweru ateye ku gikuta.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira kajyayo gashashemo amapave, ikaba ndetse ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibitanda bigiye bitandukanye abarwayi baryamaho ndetse kandi hagati y'igitanda n'ikindi hagiye harimo irido ry'ubururu ribitandukanya, hari kandi n'inzitiramibu zizinze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Ikaba irimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi. Biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ahantu heza cyane hari ubusitani bugezweho, ubu busitani rero bukaba ari bwiza cyane ndetse bukaba ari n'ingirakamaro kuko buteyemo imikindo kandi harimo n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, igeretse inshuro zigera muri eshatu. Iteye amarangi y'umweru, isakaje amabati y'umutuku, urugo rwubakishije ibyuma by'umutuku, hanze haparitse imodoka y'ivatiri.

Inyubako nziza cyane irimo icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho bya kabuhariwe, abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi, ni byiza cyane rero ko kwa muganga haba hariyo ibikoresho byose nkenerwa.

Abantu batatu bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, umwe ni umurwayi waje gushaka serivisi, undi ni umuganga aricaye arikumva uko amerewe, undi ni umuganga uhagaze uri gusoma ku mpapuro.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo amatara y'umweru ari kwaka. Inzugi zaho zirimo ibirahuri byiza cyane bibonerana ndetse n'amakaro yaho arasa umweru wijimye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kigina, amarembo arafunguye, hari umugore uri imbere yaho uhetse umwana uri kugenda uhagana agiye gushaka serivisi.

Iyi nyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, nta muntu n'umwe urimo. Harimo ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha bari kuvura, hari ameza akikijwe n'udutebe tw'umukara tugera muri dutandatu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe b'abaganga, bari gusuzuma ibyuma kabuhariwe bifashisha mu buvuzi kugira ngo barebe niba bimeze neza byabasha kuvura abarwayi kugira ngo nibabona bimeze neza babone kubahamagara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya etaje, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, hakaba harimo ahacururizwa imiti hazwi nka farumasi yo kwa Tageti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ifite amarembo yubakishije utwuma tw'ubururu, arakinguye ndetse mo imbere hateyemo igiti cy'umukindo.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, ikaba ikinguye mo imbere hari kwakamo amatara ari mu ibara ry'umweru, hakaba hashashemo amakaro y'umweru, iyi nyubako ni nziza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Nyanza, ikaba yubatse mu buryo bugezweho, ifite porotaye ikingishije inzugi zisa ubururu harimo inyuguti ebyiri za h ebyiri ziri mu kabara k'umweru.

Icyumba gitangirwamo imiti igiye itandukanye kwa muganga, kikaba kirimo utu etajeri turimo imiti myinshi igiye itandukanye ndetse n'akayira umuntu uri kuyitanga anyuramo, umuryango uri kugaragara hirya urafunze n'ingufuri.

Umwana wambaye agashati k'umweru akaba yagiye kwa muganga, muganga yamushyizeho icyuma cy'umukara ku kizigira cy'ukuboko, bigaragara ko agiye kumupima umuvuduko w'amaraso, muganga yambaye agapfukamunwa.

Inyubako nziza cyane zubatswe ku buryo bugezweho, bigaragara ko ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari akayira kaho gashashemo amapave, ubusitani bwaho ni bwiza cyane kuko burimo igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, kikaba gifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hakaba harimo kandi n'ibitanda abarwayi baryamaho igihe baje kwivuza, ni byiza cyane kwivuriza kwa muganga.

Umugore w'umuganga yambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi, ari gutambuka mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo kandi n'abandi baganga benshi bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari igorofa igeretse inshuro zigera muri eshatu, hasi yayo hakaba haparitseho utumodoka tw'umukara twinshi tugiye dutandukanye. Iyi nyubako rero ni ingirakamaro cyane.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutabara umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, harimo agasanduku gasa umutuku kariho ikimenyetso cyo guteranya kigaragaza ikirango cya Croix Rouge.

Abantu benshi cyane bari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, aho ushobora gukina umupira w'amaguru, gusimbuka umugozi, guterura aliteri ndetse no gukina n'akajangwe, bigatuma imitsi yawe igororoka.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwita ku bantu bagize ikibazo runaka igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri, rero ni ingenzi kuba dufite ibikoresho nk'ibi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, haba harimo ibyuma byifashishwa kugira ngo basuzume abarwayi uko bameze. Iki ngiki rero kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto ushobora kwifashisha mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo inanasi, icunga, pome ndetse n'imineke.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara n'agasengeri k'umukara, afite umusatsi yazirikiye inyuma n'ubwanwa, arapfukamye arunamye aho yarambuye amaboko.

Insimburangingo nyinshi zigiye zitandukanye ushobora kwifashisha mu gihe ushaka ko ubuzima bwawe bugenda neza, aha ngaha rero hari insimburangingo zigera muri eshatu ndetse n'umukobwa uhahagaze utagaragara igice cyo hejuru.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga mu ntoki, afite igikoresho cy'umutuku, iruhande rwe ku gikuta hariho kizimyamwoto y'umutuku.

Ukuboko k'umuntu wavunitse akaba yifatiye ibarafu mu nkokora ziwe, ari kugenda yikanda, yambaye agashati k'umweru ndetse n'umudari mu ijosi, mu maso ye ntabwo agaragara.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika, none akaba aryamye ku gitanda ari kwa muganga. Muganga ari kugenda amukandakanda kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Amashusho agiye atandukanye, agiye ariho na nimero, aho batwereka siporo ngororamubiri umuntu yakora, hanyuma ubuzima bwe bukagenda neza kandi akamererwa neza. Hakaba hariho siporo zigiye zitandukanye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ateruye ariteri, iruhande rwe hari ibiribwa bigiye bitandukanye ashobora kurya bigatuma amererwa neza, hari inanasi, hari amagi, hari kandi n'ibishyimbo n'izindi mbuto zitandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho hari umwana uryamye ku gitanda ufashwe n'umugore w'umuzungu, abaganga bari kugerageza kumwitaho, bigaragara ko ashobora kuba arwaye arembye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bumere neza, harimo ariteri ziri mu mabara atandukanye, hari amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'ayandi.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko iyo umuntu ayikoze, bituma urutirigongo rwe rugororoka, ni byiza cyane rero kujya dukora imyitozo ngororamubiri tukirinda indwara ziterwa no kubura siporo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, hakaba harimo ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo.

Umugore ucigatiye umwana, akaba ari kwa muganga, muganga yambaye impuzankano ziri mw' ibara ry'ubururu, ari kumutunga icyuma cyifashishwa mu kuvura amaso, ngo arebe ko imboni z'amaso ye zikora neza.

Abantu benshi cyane bari gukora imyitozo ngororamubiri, bahagaze mu muhanda ushashemo amapave, aba bantu rero bari gukora imyitozo ngororamubiri, hirya yabo hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu n'umweru n'icyatsi, akaba afite umwenda ku rutugu w'umweru. Afashe gurudu mu ntoki ari kunywa amazi. Hirya ye hari ikirere kiri gusa ubururu n'umweru.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, bamugiriye inama yo kwihutira kujya kwa muganga na we yayubahirije none yagiyeyo, abaganga bari kumwitaho bagenda bamukanda ku ivi.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiriye. Yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri kajya gusa umutuku werurutse. Aricaye, aho ari gukoza ukuboko kwe kw'ibumoso, ku mano y'ukuguru kw'ibumoso.

Umukobwa wambaye telefone ku kizigira cy'ukuboko. Yambaye agapira k'umutuku na ekuteri mu ntoki. Afite agacupa k'amazi, ari kunywa. Ni byiza cyane kunywa amazi, mu gihe turi gukora imyitozo ngororamubiri.

Intoki z'umuntu w'inzobe zifashe igikoresho cy'umukara, cyifashishwa mu gupima indwara y'umuvuduko w'amaraso. Iki gikoresho rero bakaba bagishyira ku kizigira cy'ukuboko bakumva uko amaraso ahagaze.

Umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none yashyize ibarafu ku ivi ryiwe, kugira ngo arebe ko yakwivura arusheho koroherwa, iyo barafu irasa ubururu, yafatishijeho ikiganza cye cy'ibumoso.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hari umuntu uhagaze wambaye agapira k'umweru uri kugenda abakoresha na bo bamusubiramo bamwigana.

Umuntu wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, imenyerewe nko kugenda n'ikinyabiziga cya moto, akaba apfukamye hari abagabo babiri b'abaganga bari kumufata kugira ngo barebe ko bamwitaho.

Umusore uri kwa muganga wambaye agapira k'umukara gatambitsemo uturonko tw'umweru, ari kugenda aterura ariteri y'umukara aho ahagarikiwe n'umuganga amwereka uko agomba kubikora kugira ngo imitsi ye igororoke.

Inkweto nziza cyane iri mu mabara y'umukara, ikaba iriho ikirango cyanditseho ijambo bato, uru ruganda rero rukaba batunganya izi nkweto zifashishwa mu gihe baba bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo umupira wa baro uri mu mabara y'umweru n'umukara, harimo inkweto bambara ndetse hari n'akuma abaganga bifashisha bari gupima umutima w'umuntu.

Agakarito kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, karasa ubururu ndetse n'umweru, kakaba karimo imiti myinshi igihe itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Umusore wari urimo akora siporo ngororamubiri none arananiwe, afashe agacupa k'amazi ari kunywa, yambaye bande y'umweru ku kuboko kwe, yambaye ekuteri mu ijosi, afite na telefone ku kizigira cy'ukuboko.

Ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bifashisha mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari umupira wa ballon urimo amabara menshi, agiye atandukanye, hari n'uruzingo rw'insinga ndetse n'akuma abaganga bifashisha bapima uko umutima utera.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ashinze ivi rimwe irindi yarihagaritse, akaba ari kurikozaho amaboko ye yombi agenda arikanda kugira ngo arusheho kugororoka imitsi ye.

Burya koko gukira ni nyuma ya saa sita, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, uyu musore uri aha ngaha, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, yicaye ahantu mu gacaca akojeje intoki ze ku nkweto.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ari guterura ariteri nini cyane y'icyuma, yambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara katagaragara neza ndetse kandi yambaye isengeri, akaba yazamuye amaboko ayafatiye hejuru, ari kugenda yigorora kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yavunitse. Yagiye kwa muganga, none muganga w'umuzungu, ari kumwitaho. Aho ari kugenda akorora ukuguru kwe, akoresheje amaboko ye yombi.

Imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi. Abo barwayi rero, bakunze kuba barembye. Iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko hari umurwayi iri gutabara.

Umwana wari uri gukora imyitozo ngororamubiri, yavunitse none yishyize ibarafu y'ubururu ku kuboko aho yavunitse, ari kugenda akanda kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Icyuma cyifashishwa igihe umuntu aba ari gukora imyitozo ngororamubiri, kiri mu mabara y'umweru gifite n'insinga ndende cyane zizinze, gifite ahasohokera utuntu tw'utuzi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba yagiye kwa muganga none muganga yamuhaye ka ariteri mu ntoki none umukecuru ari guterura, ni byiza cyane ko abantu bageze mu zabukuru bajya bakora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, hariho kandi na pomade ndetse n'inshinge.

Umukobwa wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yicaye yihengetse akaguru kamwe yagakojeje ku kaboko kiwe.

Umukobwa utereye umupira ku rutugu usa umweru, akaba yambaye agasengeri gasa ubururu gatambitsemo uturonko tw'icyatsi, umweru n'umukara, akaba afite gurudu mu ntoki ari kunywa amazi.

Umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. Yihutiye kujya kwa muganga none muganga yatereye ukuguru kwe ku rutugu, ari kugenda amukorera masaje kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Igikoresho kizwi nk'insimburangingo kikaba ari igice cyo hasi cy'umubiri w'umuntu, kikaba gihagaze ndetse bari kuvuga ngo igihe waba wavunitse cyangwa ufite urugingo ubura baguha kino gikoresho hanyuma ukagaragara neza.

Umurwayi urembye cyane yagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, aryamye ahantu hari amashuka y'ubururu, hari abantu benshi bamuhagaze iruhande harimo n'umuganga bari kureba ko bamusubiza ubuzima.

Intoki z'umuntu w'umuzungu, zambaye udupfukantoki tuzwi nka ga, turi mu ibara ry'umukara, utu ngutu rero batwambara bagiye gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero kwambara udupfukantoki mu gihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umererwa neza.

Umusore wari uri gukora imyitozo ngororamubiri, none icyayaka kiramwishe, afashe agacupa k'amazi gasa umweru, none ari gusoma ku mazi, yambaye ekuteri mu matwi ari kugenda yumva imiziki.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'icyatsi, n'agasengeri k'icyatsi, yicaye ahantu hasa umweru, akaba yarambirije, amaboko ye ari kuyarenza hejuru y'amano ye.

Umukobwa utereye umupira w'umweru ku rutugu, akaba afite gurudu mu ntoki ari kugenda anywa amazi, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru bigaragaza ko nta mvura irimo.

Abantu benshi cyane bari gukora imyitozo ngororamubiri, bakina umukino uzwi nka Basket, ni benshi cyane bari kugenda basimbuka, hari abafana benshi baje kubashungera, bihera ijisho uwo mukino.

Umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika ukuboko igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, bamugiriye inama yo kwihutira kujya kwa muganga, naho ntiyazuyaje yahise agera ako kanya none muganga yashyize amabara y'ubururu n'umutuku ahantu yakomeretse.

Akagare kagenderaho abafite ubumuga, kakaba ari ingenzi cyane kuko kifashishwa ndetse kakanaramira abantu benshi baba bafite ikibazo cy'ingingo, kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kakaba ari ingirakamaro.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara. Yicaye ku ntebe iruhande rwe hateretse gurudu, irimo amazi. Ari kugenda yigorora. Ni byiza rero gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wari urimo akora imyitozo ngororamubiri, none icyaka kiramwishe, afite gurudu mu ntoki, ari kunywa amazi, yambaye ekuteri mu gutwi ndetse terefone ye yayizirikiye ku kizigira cy'kuboko.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, akaba yifatiye ibarafu mu nkokora aho yavunitse, iyo barafu irasa ubururu, ari kugenda yikanda kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye yambaye agakabutura k'ubururu, yicaye ahantu mu byatsi aho yunamye ari gukoza amaboko ye muri taro y'inkweto. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye inkweto z'umweru, agapantaro k'umukara n'agashengeri k'umukara, afite ekuteri mu matwi ndetse yazirikiye telefoni ku kizigira cy'ukuboko ari kugenda yumva imiziki.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yihutiye kujya kwa muganga, none muganga ari kumuha serivisi z'ubuvuzi, aho yamuryamishije ku gitanda amwubitse, akaba ari kugenda amukorera massage kugira ngo yorohererwe amererwe neza.

Umuntu wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, akaba ari gutabarwa n'abakorera umuryango wa Croix Rouge mu Rwanda, aho bari kumha ubutabazi bw'ibanze, iruhande rwabo hahagaze abandi bagenzi be bambaye impuzankano za siporo.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yihutiye kujya kwa muganga none abaganga bari kumwitaho kugira ngo barebe uko ubuzima bwe bwakongera bukagaruka akamera neza.

Umusore wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, ari kwikanda ku kuguru aho akanze hagahita haza ishusho y'amaraso, namubwira ko yakwihutira kujya kwa muganga.

Igikoresho cyabugenewe gifite amapine y'umukara, kikaba gifite irangi ry'umweru, kikaba gifite aho bafata hasa umukara. Iki rero kikaba cyifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri aho bagenda bagisunitse.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ahantu ku gasambi gasa ibara ry'ivu yambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'isenge ry'umutuku, yifashe ku maguru yiwe ahagana ku mano ari kugenda yiterura.

Akuma kifashishwa kari mu mabara y'umweru, aho gatwarwaho umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, gafite imikandara isa umukara, kakaba karambitse ahantu hasa umweru.

Umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, akaba yafashe akaburafu k'ubururu akagashyira ku kizigira cy'ukuboko kwe kugira ngo arebe ko yakoroherwa. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakarito gasa umweru kariho n'uturongo tugiye dusa mu bururu, kakaba karimo imiti yifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri, hariho kandi n'akabande k'umweru na ko kifashishwa.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agasengeri gasa n'ivu ndetse n'umukara, yambaye na ekuteri mu matwi ndetse yazirikiye terefone ku kizigira cy'ukuboko. Yambaye isaha mu ntoki, ari kugenda akora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri kunywa amazi wicaye, akaba yarari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ikote n'ingofero, akaba yicaye ahantu ari kwinywera amazi yiturije.

Ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari kandi n'umugore w'umuganga wicaye afashe telefoni ya tuvugane mu ntoki yashyize ku gutwi ari kuvuga.

Igikapu kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, kikaba kirimo imiti yifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri, kikaba gikunda kwifashishwa n'abantu bari gukina umupira w'amaguru.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, aho harimo agatebe abarwayi bicaraho ndetse n'agatanda baryamaho, byose biri mu mabara y'ubururu.

Umugabo wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, akaba yahise yihutira kujya kwa muganga, yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agapira k'umukara, akaba yicaye muganga ari kumwitaho kugira ngo arebe ko yamusubiza ubuzima.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo abantu benshi cyane, bakunda kuza kuhashakira serivisi, harimo insakazamashusho iri kwaka, harimo kandi n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, akaba afashe igikombe mu ntoki ari kunywa amazi. Ni byiza cyane kunywa amazi mu mugihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu uri kugenda akaba arandaswe na mugenzi we w'umukorerabushake, bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri akaza kuvunika none bagiye kumwitaho ngo barebe ko yamererwa neza.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibi rero biri mu mabara atandukanye ariyo umutuku, umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Igikoresho kizwi nk'imbago, kikaba cyifashishwa n'umuntu ufite ikibazo cy'imvune, aho agenda akicumba kikamusayidira, akabasha kuba yatambuka.

Akuma kifashishwa igihe umuntu aba ari gukora imyitozo ngororamubiri, gafite amapine ane ndetse kandi karasa umweru. Kariho insakazamashusho umuntu aba ari kureba mu gihe aba ari gukora siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara ndetse yambaye n'inkweto zisa umweru, yazirikiye terefone mu kizigira cy'ukuboko, ari kugenda yumva imiziki binyuze muri ekuteri.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yafatiye ibarafu ku nkokora ziwe, ari kugenda akanda ukuboko gufashe ibarafu, kwambaye impeta bigaragaza ko yashyingiwe.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yasamye ari kunywa amazi bigaragara ko icyaka cyari kimwishe, hirya ye hari kugaragara umudugudu urimo amazu menshi cyane agiye atandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye ukuguru kumwe yakurambitse ku cyuma kiri iruhande rwe, akandagiye ahantu hari tapi isize amabara y'icyatsi ndetse harimo n'uturongo tw'umweru.

Uducupa dutatu, turi mu mabara y'umweru ndetse dufite n'imipfundikizo y'umweru, turiho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, kiriho amagambo yanditse ahantu h'umutuku mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, avuga mu Kinyarwanda ngo hehe n'agahinda cyangwa uburibwe.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Icyatsi cy'ikimera gikururumba hasi ku butak,a kikaba gifite indabyo ziri mu mabara y'iroza, umweru, ndetse n'umuhondo, iki cyatsi rero ni ingirakamaro kuko kivamo umuti wa kinyarwanda.

Uducupa tugera muri tubiri, utu ducupa rero tukaba dusa umweru, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda.

Uducupa tugera muri dutatu duteretse ahantu hamwe turi mu mabara y'umweru, utu ducupa rero tuba turimo imiti gakondo, iyi miti rero ikaba iba itunganyijwe mu bimera byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Ibyatsi by'ibimera, biri ahantu mu gisambu. Hejuru yabyo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, mu ibara ry'icyatsi, avuga ngo imiti gakondo nyafurika. Bakaba bizihiza uyu munsi.

Icyatsi kizwi nk'inyabarashanya, kikaba gikunze kumera ahantu mu cyaro haba hari ifumbire nyinshi ihagije. Kigira ururabyo rw'umweru ndetse n'umuhondo, kikaba kivura indwara z'ibisebe.

Agacupa kasohotse ku cyapa, agacupa karasa umweru icyapa ni umutuku, iruhande rwako harambitse ibinini by'umweru bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Agasekuro karimo icyatsi cy'ikimera, bakaba bagiye kubitunganyirizamo kuko harimo n'umusekuzo wako, iki kimera rero kikaba kibyara imiti gakondo ivura indwara za Kinyarwanda nyinshi zigiye zitandukanye.

Icyumba kirimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akanozasuku mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa, akaba afite udukarito imbere ye tw'umutuku ari kugenda avanamo uducupa turimo imiti y'umukara, bigaragaza ko ari umuvuzi gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, utu ducupa rero tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho ivura indwara za kinyarwanda.

Intoki z'umuntu w'umuzungu zifashe agakarito mu kuboko kumwe ndetse n'akandi gashashi karimo ibinini, bigaragara ko ari kwamamaza imiti gakondo ko ari ingirakamaro cyane.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera byifashishwa bigatunganywamo imiti gakondo. Ibi bikunze kuba biri ahantu mu gisambu, inzobere mu buvuzi bwa gakondo ni zo ziza zikabisoroma zikabitunganyamo iyo miti.

Agakoresho kabaje mu cyuma kameze nk'umudaho, kakaba karimo imiti y'icyatsi y'ibinini, iyi ikaba itunganywa mu byatsi by'ibimera, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Ikibabi cy'icyatsi kirambitse ibinini bigiye bitandukanye by'umweru, ibi binini rero bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za Kinyarwanda, higanjemo nk'amarozi n'izindi.

Uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru, hariho kandi n'akabido gasa umuhondo gashushanyijeho inyoni iri kuguruka, hakaba kandi n'agacupa gashushanyijeho igikakarubamba, bigaragara ko ari imiti gakondo igiye irimo.

Amashusho agera muri atandatu, ariho inyuguti zitondetse ku buryo bwa alphabet. Kuva kuri A kugeza kuri J. Bakaba batwereka amoko menshi y'ibimera bitunganywamo imiti gakondo.

Agakarito k'iroza karimo imiti igiye itandukanye ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, kakaba gafiteho n'ibara ry'icyatsi, iyi miti rero ni ingirakamaro cyane kuko iturinda indwara nyinshi.

Akabido gasa umweru gafite umupfundikizo w'umutuku, kakaba karimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda, aka kabido rero ni keza cyane.

Umugabo ufashe ku giti cy'ikimera hakaba hari n'andi moko agiye atandukanye y'ibimera, bakaba bari kutwereka ko ibi bimera byifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda zigiye zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye dufite imipfundikizo iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, tukaba turiho ibyapa by'umweru, mo imbere hakaba harimo imiti itunganyijwe mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda, ari mu dukarito tw'umutuku n'umweru n'ubururu ndetse n'icyatsi, hari kandi n'inanasi.

Icyatsi k'ikimera gifite amababi mato cyane kikaba gifite n'indabyo zigiye zitandukanye, ziri mu mabara asa umutuku n'iroza ndetse n'umuhondo. Izi ndabyo rero ni ingirakamaro kuko zitunganywamo umuti gakondo.

Ibyatsi by'ibimera byinshi bigiye bitandukanye bizwi ku izina ry'urumogi, ibingiibi rero bikunzwe gukoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bitunganmo imiti ivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Agacupa kari kumwe na kagenzi kako, twombi turasa umuhondo. Dutereretse ahantu, hirya y'aho hari ibara ry'ubururu. Utwo ducupa, dushushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba. Tukaba kandi, dushushanyijeho n'inyoni iri kuguruka.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hashushanyijeho umukobwa wambaye agapira k'umukara uri kwikanda mu nda.

Agacupa k'umweru ndetse kanditseho n'amagambo y'ubururu, kakaba gashushanyijeho igikakarubamba, iruhande rwako hashushanyijeho urubuto rw'icyatsi, rukashemo ibice bigera muri bitatu, aka gacupa rero kakaba karimo amati gakondo uvura indwara za kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye, turambitse ahantu. Tukaba turimo imiti gakondo igiye itandukanye. Aho yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Agacupa gafite umupfundikizo w'umuhondo. Kakaba kanditseho ngo ''umuravumba''. Kakaba karimo umuti wa gakondo, utunganywa mu kimera kizwi nk'umuravumba. Iki kimera rero ni ingirakamaro cyane.

Agacupa k'umweru gafite amabara y'ubururu, kakaba gashushanyijeho inyoni iri kuguruka, kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Icyatsi gikunda kumera ahantu mu gisambu kiba kirimo ifumbire, kikaba kizwi ku izina ry'ikibonobono, iki ngiki rero ni ingirakamaro cyane kuko kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'indwara za Kinyarwanda.

Amoko agiye atandukanye y'uducupa, harimo agacupa k'uruziga gafite umupfundikizo w'umweru nako gasa umweru ndetse n'utundi tuba turimo umuti w'amenyo ukozwe mu miti gakondo, hari kandi n'agakarito k'umweru gahari ka mande enye.

Icyatsi cy'ikimera kigenda kirandanga ku butaka, kikaba gifite amababi asa icyatsi atoshye ndetse n'indabyo ziri mu mabara y'iroza, umweru ndetse n'umuhondo. Iki cyatsi rero ni ingirakamaro cyane kuko gitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Agacupa karambitse ahantu gasa umweru, kakaba karirimo akabara k'icyatsi gatambitsemo, kakaba gashushanyijeho kandi n'igikakarubamba, hejuru hakaba hari agasahani karimo umutsima wa kawunga, ndetse na avoka hirya isatuye, ibi rero bikaba bivura indwara za kinyarwanda.

Udukarito turimo amoko agiye atandukanye hari kandi n'uducupa turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda hagiye hashushanyijeho kandi n'ikimera kizwi nk'igikakarubamba.

Agacupa gasa umweru kakaba gapfundikijwe n'umupfundikizo w'umweru, kariho icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'ubururu, hirya y'aho hateretse indi miti isa umuhondo, ibi bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'udukarito turimo imiti gakondo igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, turi mu moko y'amabara asa icyatsi, umweru, umutuku n'ayandi.

Ibyatsi bigiye bitandukanye, ibi byatsi rero bikaba ari ibimera bikaba bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za Kinyarwanda, hakaba hari intoki z'umuntu zifashe ku ibabi.

Agacupa k'umweru gapfundikije umupfundikizo w'umweru. Karambitse ahantu hasa umukara. Kakaba kariho umukandara usa ibara ry'iroza. Hashushanyijeho kandi igisiga kiri kuguruka.

Uducupa tugera muri dutandatu dutandukanye, tukaba ducuritse, utu ducupa rero tukaba turimo umuti gakondo wifashishwa mu gusukura amenyo, ariko utunganywa mu bimera.

Agacupa k'uruziga gasa umuhondo kariho n'amabara y'umweru ndetse n'ibimenyetso biri mu mabara y'ubururu, gafite umupfundikizo w'umuhondo, kakaba gashushanyijeho uruziga rurimo igikeri cy'umukara kiri gutaruka.

Intoki z'umuntu w'umwirabura zifashe agapapuro gapfunyitsemo ibyatsi biseye, bigaragaza ko ari imiti gakondo igiye ipfunyitse muri aka gapapuro, ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko iza kinyarwanda.

Amoko atandukanye y'ibyatsi bizwi nk'ibimera, ibi byatsi rero bikaba byifashishwa mu kuvura indwara ziba zigiye zitandukanye kandi zananiranye za Kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera byinshi bigiye bitandukanye, bifite amababi y'icyatsi, ibi bimera rero bikaba bitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Icyapa gishushanyijeho agacupa k'umweru, kakaba kariho inyoni iri kuguruka, ako gacupa rero kakaba karimo umuti wa gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dufite imipfundikizo y'umutuku, hari kandi n'udukarito tw'icyatsi tugiye dufite amabara asa umweru, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Umugore wambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru, afite agasakoshi ku kuboko kwe kw'ibumoso, ari kugenda asoroma ibyatsi by'ibimera, ari gusoroma amababi yabyo kugira ngo ajye kuyavuza umwana we warwaye inzoka.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru kakaba karimo umuti urimo indwara zigiye zitandukanye cyane cyane indwara za gakondo, ibi rero ni ingirakamaro kuko tuba tugomba kuwivuza.

Udukarito tugiye dutandukanye, tuba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, hari kandi n'uducupa tubiri tw'umuhondo dushushanyijeho ibyatsi by'ibimera bizwi nk'ibikakarubamba.

Icyatsi cy'ikimera kizwi nk'umusave. Kiba kiri ahantu mu gisambu. Iki rero ni ingirakamaro kuko gitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Amoko agiye atandukanye ya siporo ngororamubiri umuntu yakora akamererwa neza, ariko kandi n'igihe ugize ikibazo cyo kubura imyitozo ngororamubiri, abavuzi bavura indwara gakondo bakuvura ugakira bakoresheje imiti iba iri muri utu ducupa.

Uducupa tugiye dutandukanye turambitse hamwe turi ku murongo, utu ducupa tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Agakarito gasa icyatsi, kakaba kariho utumenyetso turi mu mabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru, iruhande rwako hakaba harambitseho udukarito tubiri turimo ibinini.

Agakarito gasa umuhondo, gafite amabara asa icyatsi, ndetse kakaba gashushanyijeho akanyoni kari kuguruka. Iruhande rwako hari agashashi karimo ibinini bigera mu icumi, ibi byose bikaba bivura indwara za gakondo.

Ikirahure kirimo imiti gakondo by'umwihariko nk'amababi ndetse n'amazi, bikaba bigaragara ko bagiye gutunganyamo imiti ivura indwara za Kinyarwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu murima, bari kwifotoza, uwo murima uhinzwemo ibimera by'ibikakarubamba, abo bantu bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi bigaragara ko baje gusuzuma ibi bimera.

Agacupa kari mu mabara y'umweru gapfundikije umupfundikizo usa umukara, aka gacupa rero kakaba karambitse ahantu hasa umukara, kakaba gashushanyijeho igikakarubamba.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera ushobora kwifashisha bikarwanya cyangwa bikavamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda, munsi ya buri kimera hagiye handikaho amagambo avuga icyo gisobanura.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye bikunze kumera ahantu mu gisambu. Ibi byatsi rero ni ingirakamaro cyane kuko iyo bimaze gukura, bitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Uducupa tugera muri dutatu dutandukanye, kamwe karapfunduye gasa umweru, akandi karapfundikiye gasa umweru n'umupfundikizo w'ubururu, akandi gasa ubururu gusa karapfundikiye kakaba karimo umuti wifashishwa mu kuvura uruhu.

Agakarito cyangwa se agashashi k'umuhondo, karimo imiti isa umukara, iyi miti rero ikaba yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda zigiye zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye duteretse ahantu ku meza, utu duti rero turimo imiti gakondo itunganywa mu bimera biba bigiye bitandukanye ikavura indwara za kinyarwanda.

Ikirango cy'uruziga kiri mu mabara agiye atandukanye ariyo: umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, munsi handitseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, hakaba harimo n'ijambo Rwanda.

Abantu benshi cyane bari gutembera ahantu mu murima, uyu murima rero ukaba uhinzwemo ibyatsi by'ibimera tuzi ku izina ry'ibikakarubamba, bambaye imyambaro y'icyatsi ndetse n'umweru, hirya hari n'ibindi bimashini bifashisha mu guhinga iyo miti.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, byifashishwa mu buvuzi gakondo, ibi bimera rero bikaba bitunganywamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru kikaba gisa umutuku. Gishushanyijeho uducupa turimo imiti gakondo igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko iza Kinyarwanda.

Icyatsi k'ikimera cyameze ahantu hashashe amabuye bigaragara ko ari mu busitani, iki cyatsi rero kikaba ari ingerakamaro, kubera ko gitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Icyatsi kiri mu mabara y'icyatsi kizwi nk'igikakarubamba, iki rero giteye ahantu mu gisambu, kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda, iki rero ni ingirakamaro kuko gitabara abantu barwaye.

Intoki z'abantu babiri batandukanye, intoki zimwe zifashe umuti w'amenyo izindi zifashe uburoso, ufite umuti ari kugenda amusukiraho kugira ngo ajye gusukura amenyo ye, uyu muti rero ukaba ukozwe mu bimera gakondo.

Agacupa gafite umupfundikizo utagaragara neza, kakaba gashushanyijeho icyatsi k'ikimera cy'igikakarubamba, kakaba gafashwe n'ikiganza cy'umuntu utagaragara mu maso.

Ahantu mu gisambu harimo ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti, ibi rero ni ingirakamaro cyane kuko bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye ndetse n'udukarito twinshi dutandukanye, turi mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za kinyarwanda.

Udukarito tugera muri tune ndetse n'uducupa tubiri twose tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo, turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, twose tukaba dushushanyijeho akanyoni kari kuguruka.